Akazu ka Airtel kari mu ibara ry'umutuku, hasi handitseho amagambo agira ati smart phone, ikindi kandi ni uko iyi kompanyi yaje guhangana na kompanyi ya MTN.

Imashini yifashishwa mu kubara amafaranga muri banki ya Kigali irimo amabuto atandatu imbuto rimwe risa n'ubururu, icyatsi, umuhondo, ndetse n'igitaka, hariho zeru umunani, gatanu, gatandatu, icyenda.

Umugabo uhagaze afite mikoro bamuhaye ijambo ngo agire icyo abwira ababateze amatwi, iruhande rwe hari umugabo witwa KNC umenyerewe cyane kuri Radio TV One.

Akazu gakoreramo abakozi b'ikompanyi y'itumanaho ya MTN hano mu Rwanda usanga nubwo bafatwa nk'abatagira amafaranga menshi ariko baba bayafite mu by'ukuri iyo bakubwiye uko babayeho n'ubuzima babaho kandi ari byo byonyine bakora.

Abagabo batatu n'umugore umwe bose bakorera ikigo k'itumanaho mu Rwanda MTN gifite ikicaro gikuru muri Afurika y'epfo, bahuriye mu nama aho bahawe seritifika igaragaza ko bitwaye neza.

Mu muhanda ukozwe n'amapave bigaragara ko atari umuhanda nyabagendwa kubera ko nta binyabiziga cyangwa urujya n'uruza rw'abantu rurimo, iruhande rwaho hari umutaka ucururizwamo amayinite ya MTN n'umugore. Hejuru ku nyubako ihari handitseho ngo ivuriro.

Inyubako ndende igeretse gatandatu iruhande rwayo hari umutaka wa MTN, iruhande rw'umutaka hari akajaride karimo ibyatsi bitandukanye bitohagiye, imodoka ifite amapinane iparitse imbere y'iyo nzu biragaragara ko ari iya nyirayo.

Umuyobozi runaka afashe ijambo ahagaze imbere y'aho bamuteguriye agomba kuritambukiriza, bamuhaye imikoro ifite igifuniko cy'umukara ndetse n'akampeta k'ubururu, ibi byose bikorwa kugira ngo navuga ijwi rigere kure.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe bateze amatwi umuyobozi wabo ibyo a,babwira arabakangurira ibijyanye no kwibumbira mu makoperative kugira ngo banki zijye zibaguriza amafaranga nta kintu na kimwe ziyishisha kuko kubona ingwate ari bwo bizaborohera.

Umuyobozi wa koperative arimo arasobanurira abanyamuryango be ibyo bungukiye mu nama aheruka kwitabira ubwo yari i Kigali kuko muri iyo nama bahavuye banzuye ko bagomba no kugana banke ikabaha inguzanyo bakagura ibikorwa byabo.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro utazigera wangirika, abahinzi bagirwa inama yo kwibumbira mu makoperative ndetse ibirimo ibigori n'amasaka bigahurizwa hamwe ahazwi nko mu ikusanyirizo bigatunganywa, bikabona ubujyanwa ku isoko.

Hamagara akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, urwego, hanyuma ukoreshe MoMo wishyura, iyi ni gahunda ya MTN yashyizweho kugira ngo yorohereze abacuruzi ndetse n'abakiriya.

KIhuriro ry'abakozi bo mu Rwanda mu buhinzi n'ubworozi igihembwe cyhinga, n'ihuriro ribaye ku nshuro yaryo ya kabiri, rimwe na rimwe usanga hagamijwe kurebera hamwe uko igihembwe cy'hinga kibanza kiba cyaragenze.

Abagore bane bose bari kwinjira ku biro bya banki, umugore umwe biragaragara ko ari umukozi wa banki ukora nk'umukontaburi abandi ni abakiriya baje bamugana ngo bahe serivisi.

Amabare, amaresitora, utubari ndetse n'amahoteri usanga a kenshi na kenshi iyo batetse inkoko bayarura uko yakabaye rimwe na rimwe hari ubwo iyo udashoboye kurya inyama birangira uzihasize.

Muri bare usangamo ibicuruzwa byinshi birimo inzoga, amafanta ndetse n'ibindi, aha ngaha turahabona fanta ya Cocacola ndetse n'inzoga yo mu bwoko bwa Primus gusa hariho n'amarikeri.

Amabare n'amaresitora utibagiwe amahoteli, usanga bafite gahunda yo guha abakiriya babo amafunguro n'ibinyobwa bimeze neza ariko na none abatabasha kuhagera bashobora kubibagereza iwabo mu ngo, aho batuye.

Akenshi na kenshi nijoro amabare, amaresitora ndetse n'amahoteli usanga hari kwakamo amatara y'amabara atandukanye, ku buryo umuntu mutaziranye byagorana ko winjiramo ngo uhite umumenya nta gahunda mufitanye.

Butike irimo imifuka y'imiceri, akawunga, ubunyobwa n'ibindi abakiriya bayigana ku bwinshi, uko umugoroba ugeze umugore ucuruzamo abara amafaranga iyo abona abakiriya asigaranye atari benshi.

Bya maneke byifashishwa himurikwa imyenda isa neza yabai y'abagabo cyangwa iy'abagore usanga byaramaze kuba umuco kugira ngo abaza kugura imyenda babone ishobora kubabera.

Botike bigaragara ko harimo etajeri nini cyane harimo inzoga z'uruganda rwa NBG harimo za Konyage, harimo za Red Warage n'izindi nyinshi zitandukanye gusa ku batanywa inzoga harimo n'amaji.

Muri botike hagaragara ibintu byinshi cyane binyuranye, ushobora kuhasanga amasabune, amavuta yo kurya ndetse n'ayo kwisiga yaba asukika cyangwa se ay'ifu, ibi byose bikorwa kugira ngo horoshywe isuku ku baturarwanda.

Botike irimo umufuka w'akawunga, umufuka w'umuceri, amashaza ndetse na soya, hirya gato hari amavuta yo kurya iyo usohotse uteye intambwe eshatu ubona ameza ariho imboga ziganjemo amashu ndetse n'inyanya.

Umugore wicaye muri b utike acuruzamo ibicuruzwa bitandukanye birimo imikasi, indobo z'amavuta ndetse n'amasabune y'ifu n'amasabune asanzwe, ibi byose akaba abikesha kuba yaraganye amabanki akamuguriza.

Butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: imifuka y'akawunga, imifuka y'umuceri ndetse n'amasabune, harimo amasabune y'ifu, amasabune y'amazi n'amavuta yo kwisiga, udasize n'amavuta yo kurya.

Abagore n'abagabo bari mu masengesho, biragaragara ko bafashijwe. Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'ingwe, yamanitse ibiganza byombi, arimo araririmba cyane ahanitse amajwi ye mu bicu.

Inzu nini cyane bigaragara ko igeretse gatatu hejuru hariho umusaraba, niba atari urusengero rw;abaporotesitanti ni urusengero rw'abakatorike, ibingibi byose bikorwa mu rwego kugira ngo imyemerere y'abantu yubahwe.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe barimo abagabo bambaye amakoti na karuvati, abagore bambaye amakanzu, hejuru y'aho bahagaze bari kwifotoza, hari umusaraba bigaragare ko ari inyubako yo muri Kiliziya Gatolika.

Umugabo wambaye ikositimu itamukwiye neza biragaragara ko ari umuvugabutumwa. Ashobora kuba ari umupadiri cyangwa se umupasitoro. Afite mikoro, ari kubwiriza itorero rye kugira ngo ribashe gukurikiza ubutumwa bwiza.

Muri hoteli harimo icyumba kigari giteguye neza ku buryo abari mu nama mu cyumba cy'inama cy'iyo hoteli nibasoza inama, baza kuyakirira muri iki cyumba gitegurirwamo amafunguro.

Inyubako ndende cyane igeretse gatatu, biragaragara ko ari imwe mu nziza ziri mu mujyi wa Kigali, iyi nyubako yubatswe umwaka ushize kugira ngo ifashe ba mukerarugendo, bazajya basura inzu ndangamurage y'u Rwanda, babashe kubona aho bacumbika.

Hoteri na resitora zifasha abakiriya kwishima iyo basohokanye n'imiryango yabo gusa ariko na none hari igihe baba badafite umwanya wo gusohokana n'imiryango yabo ngo bage aho izo hoteri ziherereye bikaba ngombwa ko bahamagara kuri hoteri bakabagezaho ibiribwa n'ibinyobwa uko babyifuza.

Hoteli akenshi na kenshi usanga ariho hantu habarizwa ibijyanye n'ama pisine, aho umuntu asohokana n'umuryango we bakumva bakeneye koga bakajya muri pisine.

Amahoteli n'utubari twinshi, usanga bikoramo abakobwa bagerageza kwambara imyenda ikurura abakiriya by'umwihariko igitsina gabo kugira ngo abaje batarambirwa bitewe n'uko abo bakobwa baba bafite n'ubushobozi bwo kubaganiriza.

Amahoteli n'amaresitora usanga rimwe na rimwe yakira abakiriya neza ikindi kandi bitewe na serivisi baba bashaka guha abakiriya babo mu buryo bunoze iyo ukeneye ibintu utarabasha kugera kuri hoteli babigusangisha iwawe.

Icyumba cyiza kimeze neza cyane gisasheho amashuka y'umweru, hariho imisego itatu ibiri igerekeranye, biragaragara ko atari icyumba cyo kwa muganga ahubwo ari icyumba cyo muri hoteli.

Amahoteli n'amaresitora usanga ategura ibiryo by'amoko menshi cyane atandukanye, bikanashyirwa ku masahani atandukanye, bashobora gutegura ibiribwa gakondo cyangwa bagategura ibiribwa bya kizungu bigezweho.

Amahoteli n'amaresitora akenshi na kenshi usanga iyo ukinjiramo aho bakirira abantu hari amateleviziyo manini cyane atuma abakiliya batagira irungu, nubwo baba bafite abakiliya benshi bagatinda kubakira.

Amahoteli menshi usanga aba afite ibirango bisa n'aho ari iby'umuco, yaba uduseke, inkangara, ibyibo n'ibindi, rimwe na rimwe kandi hari n'igihe usanga amafoto y'abami bo hambere kugira ngo abahagenda bamenye amateka.

Umukobwa n'umuhungu bambaye amakote na ne mu ijosi, bambaye udupfukamunwa tw'imikara twanditseho rwanya Kovidi itatwangiriza ubuzima, aba bana barasa n'abiga mu mashuri yisumbuye.

Amahoteli n'amaresitora usanga afite ibice byo hanze birimo amajaride ateye ubwuzu ku buryo, abakerarugendo badashaka kwicara mu nzu mo imbere basohoka bakigira hanze bitegeye ibyiza nyaburanga.

Icyumba kimeze neza cyane kirimo ameza magari intebe z'imifariso kirimo televiziyo n'ibindi, ni icyo muri hoteli cyateguriwe kugira ngo cyakire abakoreye inama muri iyi hoteri nyuma yuko iraza kuba i isojwe bagiye kwiyakira.

Amahoteri n'amaresitora usanga ari bimwe mu bimaze gutera imbere hano mu Rwanda kubera kwakira ba mukerarugendo benshi cyane, iyo uri gukorana n'amahoteri ukaba utarize ibijyanye na yo ntabwo ushobora kuharamba.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe ziteguye neza yaba intebe z'imifariso ndetse n'intebe zitariho imifariso, hariho ibikuta by'umweru hariho amafoto agaragaza ubwiza bw'inyubako.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco n'isuku ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuziranenge cyashyizeho uburyo bwo kugenzura imikorere y'amahoteli n'amaresitora mu rwego rwo kwirinda ko abobagana bashobora kuba bahuriramo n'ibibazo bituruka ku mwanda.

Icyumba kinini cyane cyateguweho intebe zirenga makumyabiri, biragaragara ko ari muri hoteli cyangwa se mu kabari akaba ari icyumba gitegerejwemo abantu bavuye mu nama bari buze kukiyakiriramo.

Hoteli ndetse na resitora usanga zifite abakozi benshi, ku buryo iyo wagiye kwiyakirirayo baguha serivisi ugataha unyuzwe, ikindi kandi iyo ukeneye ko bagusangisha ibicuruzwa iwawe, babikora bwangu.

Hoteli nyinshi mu Ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru usanga zifite amapisine, si izo mu Ntara gusa kuko n'i Kigali iyo uhageze ubihasanga, yewe na hoteli iri mu ishyamba rya Nyungwe irimo pisine.

Mu isoko ricuruza imyenda, ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye ubona ko nyuma y'aho rivugururiwe umusaruro abaturage bakomeza kwishimira ko ubageraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Isoko rya kijyambere rigezweho ricuruza ibintu bitandukanye, twinjiye mu gice gicururizwamo imbuto n'imboga, hari inanasi, amatunda, imyembe, imineke n'ibindi, iruhande rwabyo hari ibihaza.

Ibijumba ni kimwe mu bihingwa ubona ko bitagisuzuguritse bitewe n'uko ibijumba bikurwamo imigati icuruzwa ku masoko hirya no hino mu Rwanda ndetse hakaba ari na gahunda yo kwagura ubuhinzi bwabyo, ku buryo iyo migati yajya yoherezwa hanze.

Imyenda myinshi abazunguzayi bagendaga bazunguza ubu si ko bimeze kuko bahurijwe mu masoko mu mujyi wa Kigali kugira ngo hagabanwe akajagari batange umusanzu ku Gihugu ariko na bo babashe kwiteza imbere mu buryo buboneye.

Ubucuruzi buzwi ku izina ry'ubuzunguzayi bumaze gucika kubera ko Leta igenda yubaka amasoko no mu byaro ku buryo babumbirwa hamwe kugira ngo hirindwe akajagari ndetse babashe no gusora neza.

Kera u Rwanda rutaratera imbere, wasangaga abazunguzayi ari benshi mu mujyi wa Kigali ariko biragenda bicika kubera ko abari abazunguzayi, bahurijwe mu isoko ryubatswe neza kugira ngo babashe gucuruza ntakibirukansa.

Imbaga nyamwinshi iri mu isoko rya kijyambere ryuzuye vuba biragaragara ko bishimiye cyane uko iri soko rimeze, ntibakinyagirwa ndetse ibicuruzwa byabo biragenda bitewe n'uko bafite aho bari basangwa n'abakiriya batakizunguza.

Resitora itanga amafunguro mu buryo bwo kurira aho ngaho cyangwa se ukabitwara ukabijyana akenshi na kenshi hari igihe usanga batanga amakarita yo kuriraho cyangwa se bagatanga n'amakarita ushobora kuzanaho umuryango wawe.

Umumotari uri mu muhanda wenyine yambaye kasike y'umutuku indi kasike y'umugenzi ayifashe mu ntoki, iruhande rwe hari icyapa cya Pirimusi nk'inzoga imaze igihe mu Rwanda, arim arayitwara gakegake kugira ngo polisi itamwandikira umuvuduko.

Moto ebyiri ziri kugenda mu muhanda, zageze hirya zisanga hari indi moto yakoze impanuka, kugenda ntabwo byashoboka moto zakoze impanuka, polisi yahise iza yihuta cyane ije gutabara ngo irebe niba hari abagihumeka.

Umugabo utwaye igare rizwi nka lamuzini ahetseho abagabo babiri ndetse n'imifuka ibiri y'imyaka, umugabo umwe yambaye agapfukamuwa k'ubururu undi yambaye ak'umweru mu gihe uritwaye yambaye akajya gusa n'umutuku kandi akaba akambaye nabi.

Umumotari atwaye umugenzi kuri moto, inyuma y'uwo mugenzi hari akabogisi karimo imishwi y'inkoko, izi nkoko ni inkoko zituragwa n'imashini ariko uburyo zikura buba butangaje cyane kubera ko zigaburirwa ibiryo by'ibiheri by'ibigori, ingano ndetse na soya.

Umunyonzi ari gusunika igare kubera ko ananiwe atashobora kurinyonga aramutse aryuriye ananiwe ashobora guteza impanuka akaba yakwiyangiriza we ubwe ndetse akanangiriza abo yahura na bo.

Abamotari batatu bari kurwanira umugenzi, buri mumotari afite kasike, ikindi umugenzi ari kubabaza niba bafite utunozasuku two kubanza gushyira mu mutwe, biragaragara ko ari mu gihe cya Covid cumi n'ikenda bitewe n'uko ari inkuru yanditswe n'Igihe.

Abamotari babiri bose bicaye kuri moto, umumotari umwe ari kwishyuza umugenzi amafaranga yamutwariye, urugendo rungana n'ibirometero bibiri. Umumotari yambaye kasike y'umutuku, umugenzi nawe aracyambaye ikasike y'umutuku nubwo ari kwishyura.

Umumotari uri guca ku biti by'imikindo we ntabwo ashobora kubigonga nk'uko misi Muheto yabigenje kubera ko nta bisindisha yanyoye, ahetse umugenzi amwabitse kasike y'umutuku na we yambaye kasike y'umutuku.